Icyapa cyamamaza kiri mu mabara abiri; harimo ibara ry'umutuku n' ibara ry'umweru, hari amagambo yandikishijwemo mu ibara ry'umweru, mu ibara ry'ubururu, mu ibara ry'umutuku, harimo n'ishusho y'imbwa.

Icyapa kinini cy'umweru, icyatsi, cyandikishijwemo inyuguti z'umukara mu ibara ry'umweru, kirimo ibara ry'umuhondo n'ibara ry'ubururu, kiri ku cyuma kinini cyane kigiteruye.

Ikirangantego cya Sonarwa genero kiri mu mabara y'umukara mu mpande, mo hagati harimo umutuku wijimye, mo hagati harimo umuhondo n'umutuku wijimye wandikishijwemo inyuguti ya g, akaba ari ikirangantego cy'ikigo cya Sonarwa ifasha mu bwishingizi bw'ibigo bitandukanye, bw'imodoka, bw'umuntu bwite.

Iduka ricuruza imyenda, hasi ryubakishijwe amakaro ya kaki, ricuruza amakabutura, ingofero n'ikote ry'umutuku n'ikote ry'umukara n'ikote ry'ubururu n'ikote ry'umweru.

Umugore wambaye imyenda ikozwe mu gitenge, ufashe ikaramu mu ntoki, urimo urandika ku rupapuro, imbere ye hari mudasobwa, hari imashini yifashishwa mu guteranya no kubara imibare, iruhande rwayo hari imyenda idozwe mu gitenge.

Iduka ricuruza imyenda igiye itandukanye imanitse yo kugurishwa aho hagurishwamo amakoti, ingofero, imipira y'abagore, imipira y'abagabo, harimo ingofero z'abagore, ingofero z'abagabo, harimo n'amakanzu y'abagore.

Iduka ricuruza imyenda ririmo imyenda imanitse ifite iburyo ingana bitandukanye, igiye ifite amabara atandukanye, imyenda hakaba hari yimanitse ku gikuta hakaba hari n'iyimanitse hasi ku cyuma kiyifashe.

Umupira wo kwambara wumweru wandikishijweho amagambo yumukara iruhande rwawo umupira wa orange wo kwambara amaboko magufi, iruhande rwawo hari umupira w'icyatsi wokwambara w'amaboko magufi.

Inzu icuruza ibikoresho bigiye bitandukanye biba byakoreshejwe n'intoki bikunda kwitwa made in Rwanda, ari imitako igiye itandukanye iranga umuco n'amateka, cyane cyane byibasiye ku mico nyafurika.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, ipantaro y'umukara uri mu iduka ricuruza imyenda, ari imbere y'umugore wambaye ikanzu y'icyatsi cyijimye ufite mudasobwa ifunguye imbere ye iteretse ku meza.

Imodoka z'ibara ry'umweru umukara zihagaze mu muhanda w'igitaka iruhande rwazo hari abagabo babiri kurundi ruhande rwazo hari inyubako ndende yubatswe ifite amadirishya menshi iyo nyubako ikaba ifite ibikuta bifite irangi rya kaki.

Imodoka iri mu mbuga yubakishijwe amabuye iragurishwa ifite irangi ry'umutuku wijimye n'umukara icanye amatara, iruhande rwayo hubatse urukuta.

Abagabo babiri bari guhererekana rufunguzo rukozwe mu gipapuro, rwanditseho eyibigi akagera motozi, inyuma yabo hari imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo ya fuso nini, ifite irangi ry'umweru n'umukara.

Imodoka isizwe irangi ry'umukara, ifite amapine y'irange ry'umukara, ihagaze mu mbuga yubakishijwe amabuye ;inyuma yayo hari indabyo n'ubusitani bukikijwe n'inkingi z'ibyuma, iruhande rwa byo hari umumotari utwaye umugenzi ku ipikipiki.

Imodoka isizwe irangi ry'umukara, ifunguye umuryango w'inyuma, ukunda gukoreshwa nko kubikwaho imizigo ya nyiri imodoka utwaye imodoka, ihagaze ahantu hari amakaro, ku ruhande rwayo hari izindi modoka z'ubwoko bugiye butandukanye zihagaze.

Imodoka y'umweru n'umukara, iri mu muhanda kuruhande hari inzu, iri mubiti ifite amabati ya orange, ifite igipangu cyubakishijwe amatafari.

Imodoka ifite ibara ry'umweru n'umukara, amatara ndanga cyerekezo ya oranje, amapine afite ibara ry'umukara, inyuma yayo modoka indi modoka y'umweru na yo y'umukara, ifite amapine afite ibara ry'umukara, zihagaze kuri sima.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi, ipantaro iruhande rwe, umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi yambaye ipantaro, inyuma yabo hari imodoka zifite irangi ry'umukara n'umweru n'amapine afite ibara ry'umukara.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi, ipantaro n'inkweto. Iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, ipantaro n'inkweto, afashe agakapu k'ibara ry'umutuku mu ntoki. Iruhande rwabo hari imodoka.

Imodoka ifite irangi ry'umukara, ifite amapine y'umukara, ifite intebe mo mbere zisa ikijuju, intebe y'imbere kwa shoferi iriho ishashi, imodoka ikaba ifunguye imiryango yose.

Umugore witangiye igitambaro mu mutwe ahagaze imbere y'ikirahure gihagazemo undi mugore wambaye ikanzu idozwe mu gitenge, inyuma ye hari intebe yo kwicaramo, uyu mugore asa nkuri guhereza amafaranga uri inyuma yikirahure wambaye ikoti ry'umukara

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye na sima, hasi hari amakaro, amakaro akaba ateretseho imeza ifite urubaho rw'umweru hejuru, hejuru ku meza hariho agacupa kaba gapfundikiyemo uduti, dukoreshwa mu kwihanyaguza ibyafashe mu menyo.

Umuhanda wa kaburimbo iruhande rwawo hari inzira y'abanyamaguru, iruhande rwayo hari ipikipiki ihagaze nta muntu iyiriho, inyuma yayo hari inzu y'ikusanyirizo ry'amata rigurisha, inyuma yayo hari inzu yubakishijwe amabati y'ibara rya oranje.

Umugabo wikoze mu mufuka w'ipantaro yambaye, wambaye umupira w'amaboko magufi, w'amabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi, iruhande rwe, umugabo wambaye ingofero igizwe n'amabara abiri umuhondo, n'umweru.

Umugabo wambaye umupira w'umukara, isaha y'umukara ku kaboko, ipantaro y'ubururu, ufashe ku meza, imbere ye hari mudasobwa ifunguye, iruhande rwe hari undi mugabo wambaye umupira w'umweru.

Ifaranga rya leta zunze ubumwe za Amerika ryitwa idolari ry'amafaranga ijana, haba hariho umugabo ufite umusatsi ku mpande, hejuru ntawo afite.

Umugore wambaye amaherena, wambaye imyenda y'umukara, mu ntoki ze uko ari ebyiri, afashe imifungo mu ntoki ebyiri zitandukanye z'amafaranga, ayahereza umugabo uri inyuma y'ikirahure wambaye ishati ya karokaro.

Umuhanda kaburimbo wo anbawu hari umuhanda usheshwemo amabuye wagenewe kugenzwamo n'abanyamaguru iruhande rwawo hari inzu z'ubucurukuzi, imbere yazo hari abantu batatu bahagaze usanga bari kuganira.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ishati ya oranje, umukandara w'umukara, ipantaro y'umukara, ku ruhande rwe hari umugore, wambaye ikanzu y'ubururu bwijimye.

Intebe icumi zibashijwe mu mbaho zifite irangi ry'umukara zo kwicaraho, ziri ku meza amwe maremare ziteretse hasi, hashashe amakaro mu nzu ku impande hakishijwe inkuta zifite irangi ry'umweru.

Abamotari batwaye moto mu muhanda wubakishijwe n'amabuye, iruhande rwabo hari umugenzi uri kumanuka wambaye umupira w'umutuku, ipantaro ya kake n'inkweto z'umweru, iruhande rwiwe hari inzu z'ubucuruzi.

Inzu yubakishijwe amatafari hanze haho bafite ubusitani buteyemo intebe hari n'umutaka wo kuzana agacucucu ku bicaye muri izo ntebe'hande rw'iyo nzu kandi hari inkingi y'umukara.

Inzu yateguriwemo gukorerwamo inama, irimo intebe z'umukara, zifite n'aho amaboko ajya, imbere hari ameza ari mu ibara rya kacyi, imbere yayo meza hateretseho amazi kuri buri ntebe.

Inzu yubakishijwe ibirahure, inkuta z'umutuku wijimye, imbere yayo hari itara ry'umuhanda ,imbere yaryo hari icyuma gitanga ibinyabiziga igihe bigomba kugenda cyangwa zigomba guhagarara.

Inzu y'ubucuruzi ifite icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi, iroza, umukara, ubururu, icuruza ubwoko bw'ibiryo bigiye bitandukanye, hejuru hakomeje kubakishwa n'ibirahure.

Abagore babiri bahagaze bari ku cyapa cyamamaza banki y'agisesi, umugore w'iruhande rw'iburyo ufite imisatsi myinshi cyane wambaye itaburiye ikozwe mu ikoboyi umugore wo hirya afite derede ku mutwe wambaye ishati.

Umugabo wambaye agapfukamunwa k'ubururu, ishati y'umweru wicaye mu ntebe y'umukara, imbere ye hari mudasobwa iri ku meza abajwe mu mbaho, ufashe ikaramu mu ntoki.

Isoko rifite inkingi z'ibyuma, ryubakishijwe risakarishijwe amabati, ricururuza ibiribwa bigiye bitandukanye harimo karoti, ibitunguru, amashu.

Isoko ryagenewe abagurisha n'abagura ririmo abagore, abagabo, isoko rikaba rigurisha : inyanya, intoryi, karoti, imiteja, ibitunguru, n'ibirungo byo gutekesha mu biryo bigiye bitandukanye.

Umugore witangiye igitambaro mu mutwe, wambaye umupira w'umukara, ukenyeye igitenge, arimo aratunganya amafi ayakura mu ibase, ayakuraho amagaragambya akoresheje icyuma, akayashyira mu yindi base harimo ubwoko butandukanye bw'amafi.

Isoko ririmo abagore bari kudoda bifashishije imashini zidoda, harimo n'abaguzi mu isoko, isoko rimanitsemo imipira, imyenda idozwe mu bitenge n'ibiringiti byo kuryamamo byo kwiyorosa.

Abantu batandukanye barimo baragenda n'imodoka zitambuka, abamotari batwaye ipikipiki batambuka, imbere y'isoko ryubakishijwe amabati y'ubururu inyuma yaryo hari inzu zigiye zitandukanye z'ubucuruzi nazo.

Isoko ryubakishijwe inkingi z'ibyuma isakarishijwe amabati, riri mu ruhurirane rw'abantu baje guhaha n'abagurisha. Isoko rigurisha karoti, imiteja, intoryi, inyanya, ibitunguru.

Isoko ryubakishijwe sima rifite abantu bagiye batandukanye baririmo bacuruza abaha bicuruuruza inkweto rifite inkingi z'ibyuma ifite irangi ry'ubururu hari no kugendamo abantu bbwoko butandukanye.

Umugore, uhagaze mu isoko wambaye marinete, yitangiye igitambaro mu mutwe, iruhande rwe umuhungu wambaye umupira w'amaboko magufi, wambaye ipantaro, iruhande rwe hari umugabo wicaye ku kabati, wambaye ishati y'imirongo, wambaye ipantaro bari mu isoko bacuruza amashu.

Abantu bari imbere y'inzu z'ubucuruzi, zubakishijwe ibyuma by'icyatsi, inkuta z'umweru, umuhondo, umutuku, hari byapa byamamaza inzu z'ubucuruzi, hari imiyoboro y'amashanyarazi hejuru yabo.

Koto n'imodoka ziri mu muhanda kaburimbo i ruhande rwabo hari inzira y'abanyamaguru iri kundi ruhande hari imodoka ihagaze n'inzu y'ubakishijwe n'ibirahuri.

Isoko risa nkaho riri ahantu hari umuhanda w'igitaka harambitse hasi ku dufuka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye harimo intoryi, urusenda, inyanya aho abaguzi bagiye batandukanye baba baje guhaha.

Isoko ricuruza ubwoko butandukanye bw'inkweto zo kogeramo, yaba iz'abantu bakuru yaba n'iz'abana, yaba iz'abagabo, yaba iz'abagore zicuruza ubwoko butandukanye bw'ibikapu yaba ibinini yaba n'ibitoya.

Umugore wambaye ikote ry'umukara, wambaye igitambaro mu ijosi, wambaye umwenda udoze mu gitenge, yicaye mu isoko rigurisha ibishyimbo, avoka, imineke, inanasi, ikinyomoro, amacunga.

Isoko ryubakishijwe inyingi z'ibyuma zifite irangi ry umutuku amabati arikikije i afite irangi ry'ubururu isoko ryubakishijwe amatafari hasi ricuza ibiribwa bigiye bitandukanye harimo inyanya, karoti ibitunguru, isoko ririmo abaguzi n'abagurisha.

Isoko rigurisha ibintu bigiye bitandukanye harimo ibyiganjemo gukoreshwa n'intoki z'abantu, harimo uduseke, harimo ibitenge, harimo n'abaguzi n'abacuruzi barimo baragurisha.

Umugore witangiye igitambaro mu mutwe, wambaye amaherena armo ibara ry'umukara n'umweru, ishati iciye amaboko y'iroza, ijipo ifite amabara y'icyatsi n'umweru, yicaye mu isoko ricuruza inyanya, tungurusumu, imineke.

Umugore uri mu isoko ryubakishijwe ibyuma n'amabati wambaye imyenda idozwe mu gitenge uri mu isoko rigurisha imineke, amacunga, imyembe, inanasi, ibinyomoro.

Abagore bambaye imyenda idozwe mu bitenge, harimo umwe uteruye umwana, ufite ishuka mu ijosi, bahagaze imbere y'umugabo ufite indobo irimo ibiraha, wambaye umupira, ipantaro n'inkweto, usa nkaho ari kubicuruza.

Umugore wambaye imyenda isa n'ikozwe mu gitenge ari mu isoko ryubakishijwe inkingi z'ibyuma, amabati, ni isoko igurisha inyanya, imiteja, amashu n'ibirungo byo gutekesha bigiye bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umugabo wambaye umwenda wa kacyi, mo imbere yambariyemo umupira w'umweru, ku ruhande harimo y'umukara, imbere yayo hari inzira y'abanyamaguru, iruhande rwayo hari umutaka w'umutuku, uw'ubururu, uw'umuhondo, iruhande rwayo hari inzu nini cyane yubakishije ibirahure na sima.

Isoko rigurishirizwamo ibintu bya madi ini Rwanda byiganjemo umuco, ibintu bya kera bya kinyarwanda harimo uduseke, harimo imigongo, ibintu bigiye bitandukanye.

Isoko ririmo umugabo wambaye umupira w'umukara, ipantaro y'umukara irimo uturongogo tw'umweru, bicaye ku gatebe ka gati, isoko rigurisha ibintu bikozwe bya Kinyarwanda harimo uduseke.

Umugore wambaye ikoti ry'umweru ririmo ibara ry'umutuku, wambaye ijipo y'ikoboyi, ahagaze imbere y'ibitoki, biri imbere y'isoko ryubakishijwe amabati.

Umugore wambaye imyenda idozwe mu gitenge ahagaze mu isoko ricuruza imineke, imyembe, inanasi, amacunga, ibinyomoro ku isoko ryubakishijwe ibiti n'amabati.

Umugore wambaye umwenda ukozwe mu gitenge, uri mu isoko yubakishijwe amabati, ibyuma, isoko ririmo inyanya, imiteja, amashu, ibirungo byo gutekesha harimo amavuta ndetse n'amakaroni.

Akazu gatoya kimukanwa kavanwa ahantu hamwe kakajyanwa ahandi, kubakishijwe ibyuma gafite amabara amabara ariyo y'umuhondo n'umweru k'ikigo cy'itumanaho cya mtn gakorerwamo n'umukozi wa mtn ukorera hafi aho ngaho ku mihanda yegereye abaturage.

Abakozi batatu ba sosiye y'itumanaho MTN bicaye mu mutaka wa MTN iruhande rwabo harimo imodoka imbere yayo hari ubusitani buteyemo indabyo, iruhande rwayo hari sitasiyo icuruza esase.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, ipantaro y'ubururu bwerurutse, mu nkweto z'umweru, imbere ye hari umugabo wambaye umupira w'umuhondo urimo ibara ry'umukara, amagambo yandikishijwe mu nyuguti z'umukara, n'ingofero y'umukara, n'ipantaro y'umukara.

Umugabo wambaye amarinete, wambaye umupira w'umweru ufite ikora ry'umuhondo, uri gukora mu kabati, ku ruhande rwe hari umugabo, wambaye ishati n'ipantaro y'umukara, ufashe ku ntebe.

Umuhanda urimo umumotari utwaye umugenzi kuri moto, imbere ye hari umumotari utwaye umugenzi kuri moto, iruhande rw'umuhanda hari ibiti bikikije umuhanda n'inzira y'abanyamaguru.

Urubuga nkoranyambaga umuntu ahahiraho ibintu bigiye bitandukanye, hagiye harimo imyenda y'abagore n'abagabo, harimo inkweto zaba iza abagabo cyangwa iza abagore ,harimo ibikapu byabo iby'abagore cyangwa iby'abagabo.

Igipangu cy'icyatsi cyijimye inyuma yacyo hari umugabo wambaye ishati irimo imirongo iciye amaboko, ipantaro ya kaki wambaye inkweto zifungunze z'umukara iruhande rwe hahagaze ipikipiki na nyirayo uri inyuma wambaye ingofero y'ubwirinzi bw'ubururu.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi y'umweru, wambaye ipantaro y'umutuku wijimye, urukweto rw'umukara na kaki, iruhande rwe umugabo wambaye umupira w'amaboko maremare w'icyatsi, ipantaro y'umukara urukweto rugizwe n'mabara abiri umukara, umweru ari gukora ku ipikipiki.

Umugabo wicaye mu modoka y'ubururu n'umweru, imodoka ifite intebe z'umukara, umugabo wambaye ingofero y'ubururu irimo amagambo y'umweru, umupira w'ubururu mu magambo y'umweru, umugabo urimo uraseka.

Inzu ikodeshwa ibihumbi magana atandatu by'amafaranga y'u Rwanda, i Kigali, i Remera, ifite ibyumba bibiri byo kuraramo, ifite ubwiherero bufite amakaro y'ikijuju.

Intebe enye zifite ibara ry'ikijuju zifitemo imisego mo imbere muri zo, ziri ku makaro afite irangi ry'ikijuju ri mu nzu ifite inkuta zisize irangi ry'umweru.

Inzu yubakishijwe amakaro y'ikijuju, ifite akabati k'imyenda k'ikijuju, yubakishijwe inkuta zifite irangi ry'umweru ikaba ikodeshwa muri Kigali amadolari magana atanu mirongo itanu.

Inzu yubakishijwe ibikuta bifite irangi ry'umweru na kaki na oranje, bifite inkingi kuri iyo nzu z'umukara, iyo nzu ikaba ifite amadirishya afite ibyuma bisizwe irange ry'umukara, ikaba ifite ibirahure by'umukara.

Inzu ikodeshwa ibihumbi ijana na mirongo itanu; icyumba kimwe, ifite ubwogero, ifite igikoni, iri hafi y'umuhanda w'gitaka i Remera, ifite amakaro y'ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye ishati, wambaye ipantaro uri imbere y'inzu yubakishijwe urukuta rufite irangi y'umweru, yubakishijwe amabati, yubakishijwe amadirishya afite irangi ry'ubururu bwerurutse.

inzu yubakishijwe amabati aconzwe mu buryo bw'amategura inzu ikaba ifite inkuta z'ibikuta by'ubururu bwerurutse, na shokora, akaba amadirishya yayo afite ibyuma biyagize bifite irangi ry'umukara, mu mbuga y'iyo nzu hari imodoka iparitse ifite amabara y'umweru n'umukara.

Inzu yubakishijwe igipangu cy'ayo matafari ahiye, ifite igipangu cy'umukara, ku gipangu cyubakishijwe amabuye na sima, anyuranywemo irangi ry'umukara. Inzu ikaba ikodeshwa iba Kicukiro Kigali ifite ibyumba bine n'ibyumba bitatu by'ubwiherero.

Inzu isize irangi ry'umweru n'umukara, ifite urukuta rw'igipangu rusize irangi ry'umweru n'umukara, hasi urukuta rw'ubakishijwe amabuye anyuranyuyemo irangi ry'umukara.

Iduka ricuruza ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gikoni mu gihe cyo guteka no mu gihe cyo kwarura bajyanye ibiryo ku meza. Harimo amasafuriya, harimo ibisurori, harimo n'ibishyushya igikoma cyangwa icyayi ari byo teremusi.

Inzu y'ubucuruzi yubakishijwe amakaro y'umweru, igye ifite inkingi ku mpande zisize irangi ry'umukara, inzu ikaba ifite ibyapa bigenda bigaragaza inzu z'ubucuruzi zirimo ibyo zigenda zitanga na serivisi zitanga.

Abantu bari mu iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye aho ku meza y'iryo duka hashasheho igitambaro cy'umutuku, iryo duka rifite ibyuma biteye bimanitseho amatara amurika mu iduka.

Umuhanda uri kugendwamo n'imodoka zitandukanye, zijya mu cyerekezo kimwe, ku ruhande harimo ubusitani n'ibiti n'amatara y'umuhanda, ku rundi ruhande hari amazu y'ubucuruzi.

Umugabo wambaye itaburiye y'umweru uri kureba mu ikayi ye iruhande rwe hari umugore uri kwandika mu ikayi wambaye itaburiya y'umweru wambaye ipantaro y'umukara, imbere yabo hari umugore wambaye ibitenge uri kubereka ibyangombwa bye.

Umugore ukingiye igitenge ku rutugu urikwerekana ibyangombwa bye ku wundi mugore uririmo imbere mu nzu, ifite ibikuta by'ubururu wicaye ufashe ku meza, ufunguye ikaye wambaye umwenda w'umutuku.

Inzu yubakishijwe amabati inkuta zayo zisizwe irangi ry'umweru inkingi ziyifashe zubakishijwe amatafari ahiye na sima, amadirishya yayo n'inzugi ibyuma biyagize bisizwe irangi ry'umukara.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu, ishati y'umweru karuvati y'ubururu irimo utudomo tw'umweru, ipantaro ya kaki ufite indangururamajwi mu ntoki ari imbere y'abantu.

Umugore ufite ikaramu mu ntoki, igipapuro mu ntoki, uri kwandika mu ikaye ndende, iri ku meza abajijwe mu biti, wicaye ku ntebe ibajijwe mu biti, wambaye itaburiya y'umweru, wambariye mo imbere umupira w'icyatsi, iruhande rwe umugore wa wambaye umupira oranje n' ijipo y'igitenge, wicaye ku ntebe ibajwe mu giti.

Abagore bahagararanye n'abagabo bagiye bavangavanze, bahagaze imbere y'inzu isize irangi ku gikuta rya oranje, ifite amadirishya asizwe irangi ry'ikijuju.

Inzu y'ubucuruzi icuruza ibintu bigiye bitandukanye hari umugabo wambaye ishati y'ubururu ipantaro y'umukara inyuma ye hari umugore wambaye ikoti ry'umukara ipantaro y'umukara iruhande rwe hari umugore wambaye umupira w'umuhondo urimo amabara y'ubururu.

Umugore wambaye imyenda y'akazi wicaye mu ntebe yumutuku imbere ye hari mudasobwa, uri gupfundikira ibiribwa mu mashashi asa nk'aho arimo arabigurisha ukorera mu mangazini acuruza ibintu bigiye bitandukanye.

Umugore wambaye imyenda idozwe mu bitenge uri mu iduka ricuruza ibiribwa ryubakishijwe hasi amakaro kaki ufite akagare gakozwe mu byuma ari kugenda ashyiramo ibyo ari guhaha.

Inzu y'ubucuruzi icuruza ibikomoka ku nka harimo amata afunyitse mu ipaki, iruhande rwayo hari umutobe wenzwe mu myembe, munsi yayo hari umutobe wenzwe mu macunga, munsi yayo hari umutobe wenzwe muri pome.

Umugore wambaye ikoti ry'umukara ipantaro, y'umukara inkweto z'umweru, ufite igikapu mu ntoki uri mu iduka ryubucuruzi ryubakishijwe namakaro y'umweru.